Umugabo wicaye mu ntebe y'umukara, imbere ye hari mudasobwa, ndetse n'amazi yo kunywa hari n'ikayi bigaragara ko ashaka kwandika, kandi imbere ye hari indangururamajwi bigaragara ko ari nk'ikiganiro ari gutanga.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki, biragaragara ko ari gutanga ikiganiro kuko imbere ye hateretse ameza bifashisha iyo abantu bari gutanga ikiganiro, barambikaho nk'urupapuro bateguriyeho ikiganiro bari butange.

Abantu icyenda harimo abagabo ndetse n'abagore, bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama. Biragaragara ko nk'imbere yabo hari umuntu uri kubaha ikiganiro. Buri muntu wese imbere ye hari mudasobwa. Udafite mudasobwa imbere ye hateretse urupapuro, bigaragara ko ariho yakwifashisha yandika ndetse hari n'agacupa k'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bigaragara ko bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abagabo ndetse n'abagore, hari n'umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda, imbere yabo hateretse uducupa turimo umutobe usa n'umuhondo ndetse n'utundi turimo amazi yo kunywa.

Icyumba k'inama bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, bose bicaye ku ntebe zisa nk'imikara kandi zegamirwa, imbere ya buri muntu hari mudasobwa ndetse hari n'agacupa karimo amazi yo kunywa.

Abantu benshi harimo abahagaze ndetse n'abandi bicaye imbere yabo harimo abagore n'abagabo bigaragara ko bari gufata ifoto. Imbere yabo hari ururabyo rugaragara mu ifoto bafashe.

Abagabo bicaye mu nama bambaye amakote ndetse n'ama karovate. Imbere yabo hateretse amazi yo kunywa ndetse imbere yabo hari indangururamajwi. Bigaragara ko arizo bavugiramo, kugirango abari mu nama bose bumvikane.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama bigaragara ko hari umuntu uhagaze mbere uri kubaha ibiganiro harimo abagabo n'abagore bicaye, bose buri wese afite icupa ry'amazi bigaragara ko ari kwiyakira.

Abantu bari mu cyumba cy'inama harimo abadamu babiri ndetse n'abagabo bane bicaye, imbere yabo hari amabendera y'ibihugu ndetse hari n'amacupa y'amazi, hirya yabo hari umugabo ufite ibyuma by'ikoranabuhanga mu gufata amashusho.

Abantu batandatu harimo abadamu batatu ndetse n'abagabo batatu, bose bicaye ku ntebe z'imikara zegamirwa, abadamu batatu harimo umwe wambaye impuzankano ya polisi y'igihugu ndetse yambaye n'amarinete, buri wese afite ikayi n'ikaramu imbere ye, biragaragara ko bari mu nama, inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirangantego cy'igihugu.

Abantu bari mu cyumba cy'inama ari benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, biragaragara ko imbere yabo hari ibyuma nsakaza mashusho n'amajwi aribyo bari kureberaho ibiganiro bari guhabwa. Bari mu ngeri zitandukanye harimo abapapa ndetse n'aba mama harimo n'undi wambaye impuzankano y'abasirikare.

Abadamu babiri ndeste n'umugabo umwe wambaye ikote ry'umukara, bigaragara ko bicaye mu cyumba cy'inama. Imbere yabo hateretse za mudasobwa ndetse n'amazi yo mu ducupa yo kunywa, imbere yabo ndetse hari na za ndangururamajwi bigaragara ko bari mu nama.

Abantu bicaye bari kumwe bari mu cyumba cy'inama, bari kuganira imbere yabo hari porojegiteri barikureberaho, ndetse n'amazi abateretse imbere bari kunywa, n'amatelefone abarambitse imbere, n'amakayi, n'amakaramu bari gukoresha mu nama.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bigaragara ko bari mu nama, imbere yabicaye imbere hari amazi yo kunywa ndetse hari na mudasobwa ikayi n'ikaramu byo kwandikamo ibyigiwe mu nama, ndetse bifashe neza biragaragara ko bari kumva icyo bari kubabwira.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari bari mu nama. Harimo abagabo babiri bambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda. Harimo umugabo wicaye uri kuramukanya n'undi mu muma uhagaze, ndetse hari n'abandi bantu bahagaze hirya yabo bigaragara ko bose bishimye.

Amafoto abiri atandukanye, biragaragara ko ifoto ya mbere ari abantu bicaye mu icyumba cy'inama harimo abagabo n'abagore. Imbere ya buri muntu hari mudasobwa ndetse hari n'agacupa karimo amazi. Indi foto ya kabiri ni abantu bahagaze harimo abagabo n'abagore bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama buri wese yicaye mu ntebe ye aregamye, imbere ye hateretse mudasobwa, kandi intebe bicayemo nizo ziteretseho mudasobwa bose biragaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ibiganiro uri imbere yabo.

Abantu benshi bamwe bahagaze n'abandi bicaye, biragaragara ko abenshi ari abantu babagore, imbere y'aho hahagaze umugore ufite imisatsi miremire wambaye ishati y'utubara ndetse ni'pantalo ijya gusa nk'ubururu bwijimye, hirya y'aho haparitse imodoka nini zitwara abantu ku buryo bwa rusange.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi harimo abagabo n'abagore. Ku ntebe y'imbere hicaye n'umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'umutobe uva mumbuto usa umuhondo, harimo n'abafite mudasobwa imbere yabo bari gukoresha.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari nko mu nama kuko imbere yabo hagaze umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse afite n'impapuro mu ntoki bigaragara ko ari ikiganiro ari kubaha, hirya hari ikigega gifata amazi.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo abantu icyenda muri abo bantu icyenda harimo abagore babiri ndetse n'abagabo barindwi, biragaragara ko bari mu nama kuko hari uducupa turimo amazi tubateretse imbere ku meza kandi buri wese afite icyo yakwifashisha yandika muri iyo nama.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'icyatsi bigaragara ko ari kubwira abantu kuko afite indangururamajwi mu ntoki, hari n'abandi bicaye bateze amatwi ibyo uyu mugabo ari kubabwira, bose biragaragara ko bambaye imipira isa mbese bafite intego imwe.

Abantu barindwi bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama harimo abadamu babiri n'abagabo batanu, umugabo umwe wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare niwe uri gutanga ikiganiro kuko biragaragara ko ariwe wahagurutse abandi bamuteze amatwi, buri wese aho yicaye imbere ye hari mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama harimo abagabo n'abagore ndetse imbere yabo hari ameza, buri muntu afite ikayi n'ikaramu imbere ye, bigaragara ko ari ibyo kwifashisha igihe inama iri kuba bandikamo ibyavugiwe mu nama.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu cyumba k'inama, hari umugabo wambaye ikote afite n'indangururamajwi mu ntoki ahagaze hagati yabo agaragara ko ari kugenda abaganiriza ibintu bitandukanye.

Icyumba cy'inama kigaragaramo abantu benshi, hari abicaye imbere ku ntebe z'imikara harimo abamama batatu ndetse n'umugabo umwe, imbere yabo hateretse uducupa turimo umutobe ukomoka ku mbuto ndetse n'utundi ducupa turimo amazi yo kunywa.

Abantu benshi bicaye ahantu hatwikiriye bigaragara ko basa nkaho bari mu nama, hari umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi usa nka oranje hari n'undi uhagaze impande wambaye umupira w'amaboko magufi ujya gusa nk'umutuku, ufite igikoresho bakoresha bafata amashusho.

Abantu benshi bari mucyumba cy'inama ariko ubona ko biganjemo urubyiruko, bose bafite intego imwe kuko hejuru bambaye imipira y'umuhondo isa, imbere yabo naho hicaye abasa nk'abakuze nabo basa nkaho aribo babahagarariye, bambaye imipira y'icyatsi nabo isa ndetse harimo n'uwambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'inama bigaragara ko bicaye bari mu nama bicaye imbere yabo hari imeza ndetse buri wese imbere ye hari agacupa k'amazi hagati yabo harimo ibikoresho bifashisha berekana amashusho.

Abantu benshi bahagaze bigaragara ko wagira ngo bari mu kiganiro harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara ufite mikoro mu ntoki niwe urigutanga ikiganiro biragaragara ko abandi aribo bari kumutega amatwi hirya yabo hari ibiti ndetse n'umuriro w'amashanyarazi n'amapoto y'amatara.

Abantu benshi bicaye ku ibaraza ry'inzu yubakishije amatafari ahiye afite imiryango isize ibara ry'umweru, ndetse n'amadirishya asize ibara ry'umweru, aba bantu bicaye harimo n'umuntu wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda, uri kwandika imbere yaho hari imeza irambitseho akarangurura amajwi.

Abagabo n'abagore bigaragara ko bicaye mu cyumba cy'inama aho bateze umatwi umugore uhagaze uri kubabwira ijambo, harimo abagore babiri bambaye imipira y'imituku hejuru, umwe muri bo yambaye amarinete ndetse n'abagabo harimo uwambaye ishati y'umweru n'umukara n'indi ijya kumera nk'ikigina cyijimye.

Abagabo bane bicaye mu cyumba cy'inama. Buri mugabo wese imbere ye hari mudasobwa ndetse bicaye mu ntebe z'imikara. Bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubaha ikiganiro kuko bamuteze amatwi kandi bari no kumureba.

Abagabo bari mu cyumba cy'inama, ni abagabo batatu bose bambaye amadarubindi, umwe yambaye ikote undi yambaye ishati isa nk'ubururu bwerurutse, yewe yifashe ku munwa bigaragara ko yumiwe, imbere yabo hateretse mudasobwa.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bigaragara ko bari mu nama. Imbere yabo hari meza ifite ishusho y'uruziga, Ndetse kuri iyo meza hateretseho uducupa tw'amazi bigaragara ko buri wese afite agacupa ke k'amazi. Harimo abagabo babiri bambaye udupfukamunwa, bapfukamunwa kamwe gasa umweru akandi gasa umukara.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bigaragara ko bari mu nama, buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye, ndetse na mudasobwa, ndetse n'ikaramu, bicaye ku meza akoze uruziga ariho igitambaro cy'umukara.

Abantu benshi bahagaze bakikije umuntu uri kubaha ibiganiro biragaragara ko ari nk'igikorwa cyahabaye bakaba bari kugitangaho ikiganiro harimo abagaragara nk'abakuze ndetse n'urubyiruko bari ahantu hameze nk'aho ari ikibuga kuko hari ahantu hari umurambi hose hangana hashashe neza.

Abagabo babiri bicaye mu cyumba k'inama bigaragara ko bari mu nama ndetse n'umumama ubahagaze imbere ufite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko ari kubaha inyigisho cyangwa se inama ku bindi bemeranyijeho bagiye kwigaho, umugabo umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye umupira w'umweru hari intebe ziri imbere yabo zisa nk'umuhondo.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama imbere yabo hari ameza akozwe mu giti buri mugabo ndetse n'umugore imbere ye hari mudasobwa ndetse hari n'agacupa k'amazi buri wese afite indangururamajwi imbere ye kugira ngo agize icyo avuga byumvikane hirya yabo hahagaze umugabo ufite igikoresho bifashisha mu gufata amashusho .

Abantu bigaragara ko bicaye mu cyumba cy'inama, buri wese afite mudasobwa imbere ye ndetse n'agacupa karimo amazi, biragaragara ko bateze amatwi uri kubaha inama, harimo aba mama ndetse n'aba papa bambaye amalinete.

Abadamu babiri ndetse n'umugabo umwe bicaye basa nkaho bari mucyumba cy'inama umugabo yambaye ikote rijya gusa nk'umukara ishati y'ubururu bweruru ndetse na karuvati, aba mama harimo uwambaye amarinete imbere yabo ku meza hateretse uducupa t twaamazi yo kunywa bigaragara ko bari mu nama bari kunywa.

Abantu bane harimo abadamu babiri ndetse n'abagabo babiri, abagabo bombi bambaye amadarubindi umugabo, umwe yambaye umupira w'umuhondo ipantalo y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'umweru undi mugabo yambaye ikote imbere yambayemo ishati yu'mweru n'ipantalo y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, umugore nawe yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantalo y'umukara n'inkweto z'umun...

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abagabo ndetse n'abagore biragaragara ko bari mu nama kuko imbere ya buri muntu hari indangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi, harimo n'abafite mudasobwa ziteretse imbere yabo.

Icyumba cy'inama kirimo abapapa n'abamama bicaye bigaragara ko bari mu nama harimo urupapuro ikaramu ari kwandika, ndetse imbere yabo hateretse amazi mu kunywa ndetse na za mudasobwa, biragaragara ko bateze amatwi uri imbere iri kubagira inama.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba k'inama hari ameza abari imbere ari mu ishusho y'uruziga, buri mugabo ndetse n'umugore buri wese afite amazi ateretse imbere ye, biragaragara ko bateze amatwi umuntu ubari imbere uri kubaha inyigisho.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi, hari abantu babiri bicaye imbere yabo hari ameza y'uruziga ateretseho amazi bari kunywa, abantu bari mu nama bafite amazi imbere yabo yo kunywa ndetse biragaragara ko bateze amatwi aba bari imbere bari kubaha ibiganiro.

Ahantu hubakiye hari ibikoresho byifashishwa n'ikigo gishinzwe gutanga umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda. Ibi bikoresho babyifashisha iyo bashaka kongera ingano y'umuriro w'amashanyarazi cyangwa se kuwugabanya kugira ngo udateza impanuka.

Abantu batanu bahagaze bafite mudasobwa imbere yabo bose bambaye udupfukamunwa harimo abambaye udupfukamunwa tw'umweru abandi utw'umukara hirya yabo haparitse imodoka ndetse hari n'inyubako bigaragara ko bari ahantu bari kureba ibintu kuri mudasobwa.

Inyubako iteye irange ry'umuhondo. Ifite inzugi zisize ibara ry'icyatsi, ndetse n'izindi zisize irangi ry'umuhondo. Hariho ibirango byerekana ko muri izo nzu hakoreramo irembo, aho batangira serivise zijyanye n'irembo.

Amapikipiki abiri ari kujya mu cyerekezo kimwe ndetse hepfo y'umuhanda hari icyapa kinini gifite amabara y'umuhondo n'umweru cyerekana sosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda ya emutiyeni inyuma y'aho hari igikoresho kirekire cy'umunara bifashisha mu ihuzanzira.

Abanyeshuru bicaye mucyumba kimwe, buri wese afite mudasobwa imbere ye iteretse ku meza ,biragaragara ko bari kwiga isomo ry' ikoranabuhanga kuko buri wese ari gukoresha mudasobwa ye imuteretse imbere.

Umunara muremure wubatse ahantu bigaragara ko wifashishwa mu ihuzanzira y'umunara ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru uzengurutswe n'uruzitiro rwubakishijwe ibyuma ndetse hirya yawo hari ipoto ry'amashanyarazi.

Ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga zitwara amashanyarazi nyinshi, iri poto ishinze ahantu mu busitani hari indabyo ndetse n'ibyatsi, hirya yaryo hubatse amazu bigaragara ko ari ay'imiturire abamo abantu.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo umumotari uhetse umugenzi, ari kugenda mu nzira, ndetse inyuma yabo hari parikingi, bigaragara ko hahagazemo imodoka y'ivatiri, hino yaho hari n'abantu. Hari amapoto y'amashanyarazi bigaragara ko atwara amashanyarazi.

Ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi, ndetse hirya yaryo hari ibiti birebire. Biragaragara ko ikirere gikeye. Ipoto ifite ibara rijya kumera nk'umuhondo.

Urugo rwubatse rwubakishijwe amatafari ahiye. Ndetse hari n'ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi. hari n'icyapa kigaragaza ko bitemewe guhagarara umwanya muto ndetse n'umunini.

Ibiti bibiri bihagaze byifashishwa mu gutwara insinga zirimo umuriro w'amashanyarazi, ibiti hagati yabyo harimo icyuma cyifashishwa n'abashinzwe gukora amashanyarazi, gishinzwe kongera ndetse no kugabanya ingano y'umuriro ugiye gukoreshwa.

Imodoka ebyiri zihagaze hirya yazo hari abantu babiri, hariho umugabo wambaye ishati y'umweru n'undi mu muma wambaye ikanzu ishya nk'icyatsi. Imbere yabo hari umumotari uhagaze wambaye kasike y'umutuku, hirya y'umuhanda hari ibiti, hari amapoto y'amashanyarazi ndetse hari nibiti birebire hafi y'umuhanda.

Amapoto abiri ariho insinga zitwara umuriro wamashanyarazi ipoto rimwe rirerire ririho n'itara ricanira umuhanda igihe cya nijoro impande y'ayo mapoto haparitse imodoka ebyiri imodoka imwe ifite amabara y'umweru n'umukara ndetse indi modoka ntoya ifite ibara ry'umukara hari n'abantu hafi yizo modoka.

Aha hari akazu ka emutiyene abejenti ba emutiene bakoreramo n'umuntu uhagaze hirya ye hari amazu abiri y'imiturirwa baturamo ndetse n'ipironi ry'amashanyarazi.

Umuntu uri kugenda mumuhanda w'igitaka ahetse igikapu cy'umukara ndetse yambaye umupira w'umukara urimo akabara k'umweru n'ipantaro y'umukara nayo irimo akabara k'umweru ndetse n'inkweto z'umukara, hirya ye hashinze igiti kirekire kiriho insinga zitwara amashanyarazi.

Abantu bari kugenda ndetse n'amapikipiki aparitse andi ariho abantu, hirya yabo hari ipoto rirerire ririho itsinga z'amashanyarazi, ndetse hubatse n'amazu y'ubucuruzi bigaragara ko aha hantu ari agace kaberamo ubucuruzi.

Umuhanda urimo imodoka y'umukara, ndetse n'undi muhanda uzamuka urimo imodoka y'umweru. Imbere y'imodoka y'umweru hari abagabo babiri bari gusunika igare, bigaragara ko ririho imizigo. Imbere y'umuhanda hari ipoto rirerire ririho insinga zitwara amashanyarazi, hari n'umutaka, bigaragara ko ari uwa emutiyene.

Amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi ari ku muhanda ndetse n'andi ariho amatara manini amuririka umuhanda, mu gihe cya nijoro, hirya haparitse imodoka ndetse hari n'amazu y'ubucuruzi.

Ifoto ry'amashanyarazi ryubakishijwe ibyuma, hirya y'ipoto hari igipangu bigaragara ko gikoroteririye aho iri poto iri. Hakurya yaho hari ishyamba ndetse hari n'amazu bigaragara ko atuwemo n'abantu iri poto ririho insinga nyinshi zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Hano hari inzu ituwemo n'abantu, ifite igipangu kiyikikije kiyubakiye, ndetse yegereye umuhanda, hari na rigori yubakiye, hari ibiti biri ku gipangu, ndetse hari n'ipoto ry'amashanyarazi ryekenaka ko hari amashanyarazi abo bantu bakoresha.

Ipoto ririho insinga zitwara amashanyarazi ndetse hirya y'ipoto biragaragara ko hubatse inzu ituwemo n'abantu hakurya hari ibiti bigaragara ko hari ishyamba rikikije aho iri poto riri.

Ipoto ririho insinga zitwara amashanyarazi ndetse iri poto biragaragara ko ryubatse hafi y'indi nyubako, hejuru y'iyo nyubako hari icyuma kigaragara ko cyifashishwa mu ihuzanzira gikunda gukoreshwa n'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda.

Ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga nyinshi ndetse n'irindi poto ririho itara rimurikira ku muhanda, hari n'icyapa kiyobora abashoferi ko bibujijwe gukatira iburyo, kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara cyerekana ko gukata iburyo bitemewe.

Ipoto ry'amashanyarazi bigaragara ko hari igipangu kirekire cyubakishije amatafari ahiye ateye irangi ry'umweru, ndetse n'imbere harimo inyubako igaragara igisenge cyo hejuru ifite amabati ajya kuba nk'umutuku hino hari ubusitani burimo ibiti bitarakura, ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru gakikije umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye imbere yaho hashinze igiti gitwara umuriro w'amashanyarazi hariho n'insinga, hahinze indabyo hafi y'inyubako ifite amadirishya asize ibara ry'icyatsi ndetse n'urugi rusize ibara ry'icyatsi.

Ipoto rinini ririho insinga z'amashanyarazi ndetse hafi y'iri poto hubatswe n'andi mapoto abiri ariho icyuma gishinzwe kugabanya ndetse no kongera umuriro w'amashanyarazi, iki cyuma gikunda gukoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amashanyarazi mu Rwanda mu rwego rwo kugira ngo gitange amashanyarazi afite uburemere

Icyumba bigaragara ko ari kwa muganga, iki cyumba harimo igitanda ubona ko ari ikigezweho ndetse hari n'amamashini ari hafi y'icyo gitanda bigaragara ko ari fasha abaganga gukurikirana uburwayi bw'umurwayi waba aryamye kuri iki gitanda.

Imodoka ntoya isa umutuku iparitse hafi y'ahantu handitse ngo ibitaro bya Muhima. Hari n'umuryango munini winjiriramo abant,u bigaragara ko abantu iyo bari kuza kuri ibyo bitaro ariho binjirira ndetse bakanasohokera.

Umugabo wambaye ikote ry'umweru n'ishati y'amabara ndetse n'ipantaro y'umukara. yambaye n'amadarubindi, impande ye naho hari umumama uhetse umwana ufite isakoshi isa umukara, yambaye ibitenge bisa ndetse biragaragara ko ari kumwenyura nk'aho yishimye.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, ndetse isakajwe n'amabati asa nk'ibara ry'umutuku, imbere yayo hari izindi nyubako na zo ntoya bisa nkaho bifatanye, aho mu mbuga hari abahungu babiri bahagaze, umwe yifashe mu maboko inyuma, ndetse biragaragara ko imvura isa nkaho ihitutse.

Abagore benshi bari kugenda harimo umugore wambaye igitenge ndetse n'ishati yacyo bisa, afite akantu bitwazamo ibiryo iyo bagiye kwa muganga cyangwa bagiye ahandi hantu ubashyiriye umuntu ibiryo, kabafasha kugira ngo ibiryo bigumane umwihariko wabyo bidakonje cyangwa se ngo bihore.

Urukuta rwubakishije amabuye rusize irangi ry'umweru ndetse n'umukara hirya hari inyubako ifite urubaraza rwicayeho abantu, bigaragara ko hari umuntu bategereje cyangwa se hari ikindi gikorwa bategereje gukorerwa.

Abantu benshi bicaye ku ntebe ndetse bari ku murongo, hari n'abandi bahagaze bigaragara ko bari kwa muganga, hari ibikorwa bakenewe ko bakorerwa n'abaganga, abenshi ni aba mama ndetse harimo n'aba papa ariko bakeya.

Umusaza bigaragara ko akuze yambaye umupira w'imbeho ufite imashini, hirya ye hari imisego ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, biragaragara ko uyu musaza hari ibintu bari kumubwira kuko bikagaragara ko ateze amatwi.

Umugabo bigaragara ko akuze wambaye impuzankano y'ingororwa, ndetse afite n'impapuro mu ntoki, hirya ye hari ameza ariho indangururamajwi, yewe yambaye n'agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru biragaragara ko ari mu rukiko aho ari kuburana.

Abagabo bambaye udupfukamunwa, bambaye n'impuzankano y'ingororwa, hari imodoka bigaragara ko ariho bari guturuka ndetse hari n'abandi babahagaze impande y'abo bambaye impuzankano y'abashinzwe kurinda imfungwa n'abagororwa.

Abagabo benshi bari ku murongo bambaye impuzankano y'ingororwa, ndetse n'udupfukamunwa, yewe harimo n'abafite impapuro mu ntoki, hari n'abashinzwe kubarinda ubona ko bari ku murongo ari nk'igikorwa bakeneye gukorerwa.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya bahanye ibiganza. Umwe yambaye impuzankano bigaragara ko ariyo igorororwa undi yambaye ishati y'umweru. Yewe biragaragara ko bari kuganira.

Imibare yanditse mu ibara ry'umweru, ndetse n'amagambo nayo yanditse mu ibara ry'umweru, avuga ngo gereza ya Muhanga; biragaragara ko ari icyapa cyerekana ko hano ari kuri gereza ya Muhanga, yubatswe igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'agatatu, haragaragara ko ikirere gikeye kuko gifite amabara y'ubururu bwerurutse ndetse n'umweru

Inyubako ndende kandi nini bigaragara ko yubakishijwe amatafari ahiye, hari abagabo babiri bambaye imyenda y'imfungwa ndetse hari n'undi uhagaze iruhande wambaye imyenda igaragara ko ari umucungagereza bari kwinjira mu gipangu hejuru handitseho ngo gereza ya nyarugenge.

Abantu cumi na bane bahagaze ku murongo, harimo abagabo ndetse n'abamama bambaye amakote y'umukara n'amapantaro y'umukara. biagaragara ko bari kwifotoza amafoto, inyuma yabo har'icyapa kiriho amabara y'ubururu, ndetse bisa naho bifotoreje mu cyumba cy'inama.

Abagabo batatu bahagararanye harimo umwe uhagaze hagati wambaye impuzankano bigaragara ko ari umugororwa. Uhagaze inyuma ye nawe yambaye impuzankano bigaragara ko ari umucungagereza undi mugabo uhagaze imbere yambaye ikanzu y'umukara irimo amabara y'umweru bigaragara ko ari umucamanza cyangwa umwunganira mu mategeko.

Abagabo babiri, bigaragara ko bambaye impuzankano y'imfungwa, ndetse bafite agatanda k'abarwayi kuri ako gatanda haryamyeho umuntu wiyoroshe ishuka y'umweru, biragaragara ko ari umurwayi bajyanye kwa muganga.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama imbere yabo hari umugore wambaye ikote risa nkijipo yambaye ndetse n'inkweto z'umukara abantu bose bicaye ku ntebe zikozwe mu biti ndetse biragaragara ko umugabo turi kureba afite urupapuro mu ntoki .

Abantu b'abagabo bahagaze munsi y'igiti bambaye impuzankano yerekana ko ari imfungwa cyangwa se abagororwa, hirya yabo hari imodoka y'umweru ndetse hari n'abagabo bicaye bigaragara ko aribo bari kuburanisha aba bagabo.

Umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda bigaragara ko nawe ari umusirikare w'u Rwanda, afite ibendera mu ntoki ndetse yamanitse ikiganza cy'iburyo biragaragara ko ari nk'indahiro ari gutanga ku nshingano yahawe.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe ndetse biragaragara ko bari mu nama cyangwa se ikiganiro imbere yaho hahagaze umugabo wambaye impuzankano y'ingororwa biragaragara ko aba bantu bari muri gahunda yahozeho mbere bita inkiko gacaca yaburanishaga abantu bagize ibyaha muri jenoside.

Abagabo batatu bicaye hamwe. Umwe muri bo biragaragara ko ari ingororwa kuko yambaye impuzankano iranga ingororwa, ndetse abandi babiri biragaragara ko ari bo bafasha ingororwa bayunganira mu bijyanye n'amategeko.

Abagabo benshi bambaye impuzankano y'ingororwa ndetse n'imfungwa, bafite amajerekani mu ntoki hari n'abandi bigaragara ko bambaye impuzankano y'abashinzwe kurinda imfungwa n'abagororwa babarinze babarindire umutekano.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse handitseho amagambo agaragaza ko iki cyapa ari igororero rya Muhanga, munsi yacyo harimo urugi runini aho binjirira ndetse banasohokera.

Imodoka ihagaze ndetse impande yayo hahagaze umugabo wambaye impuzankano ya Police y'u Rwanda, bigaragara ko ishinzwe umutekano wo mu muhanda. Afite icyangombwa cyo gutwara ibinyabiziga ari kureba niba cyujuje ubuziranenge.

Hari abantu benshi bigaragara ko hari umuntu uri kubasobanurira ibijyanye n'inkongi z'umuriro uko umuntu yazizimya afite akazimya inkongi ari kubereka ukuntu gakoreshwa ndetse bateze amatwi bari no kureba uburyo ki umuntu yazimya inkongi y'umuriro akoresheje akazizimyamuriro.

Abagabo benshi bambaye imyenda y'akazi ndetse n'ingofero z'umweru bigaragara ko bakorera ikigo cy'igihugu cy'umutekano ishami rishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro. Kuko bigaragara ko akazi barimo bari kuzimya inkongi y'umuriro yabaye ahantu.

Inzira y'abanyamaguru ikikije umuhanda nyabagendwa bigaragara ko hari n'umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi ndetse n'ibiranga ko ari umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, inyuma ye hagaze umugabo wambaye ishati y'igitenge y'amabara, imbere ye hari umuntu uri gusunika umuzigo ku ngorofani.

Ibikoresho bibiri bimanitse ku gikuta byose biri hamwe, ibi bikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro. Bifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse n'ibirango biri mu ibara ry'umweru.

Igikoresho bifashisha bazimya umuriro, cyometse ahantu ku gikuta, gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ako bakoresha batunga aho umuriro uri kwaka gafite ibara ry'umukara, ndetse biragaragara ko kiri ahantu mu nzu.

Abagabo batatu. Babiri bambaye ingofero z'umweru ndetse n'imyenda yerekana ko bakorera mu kigo gishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro. Inyuma yaho hari undi wunamye wambaye imyenda igaragaza ko ari Polisi y'igihugu.

Umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa urimo imodoka ishinzwe gutabara, uyu muhanda uko bigaragara harimo akavuyo wagirango habereye agisida, kuko harimo abashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze, hakurya y'umuhanda hari abantu benshi ndetse bigaragara ko bashungereye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibyerekezo bibiri bitandukanye, hakurya y'umuhanda mu nzira y'abanyamaguru hari abagabo babiri, umugabo umwe biragaragara ko ari umupolisi kuko yambaye impuzankano ya gipolisi ndetse n'ikiranga ko ari umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Umupolisi uhagararanye n'undi mugabo, umupolosi yambaye impuzankano ya gipolisi ndetse n'ijire iranga abapolisi bacunga umutekano wo mu muhanda, biragaragara ko ari guha amabwiriza abantu y'uko bagomba gutambuka. Hirya yabo hari amaduka hariho n'ibyapa bya tekino.

Abamotari ni benshi bahagaze ku murongo wo guhagararaho, ndetse n'umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda ubahagaze imbere. Hakurya ye hari imodoka ya Polisi.

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bwose busa ubururu ibirango byandikishijemo amabara y'umweru iki cyapa cyerekana ko aho hafi hari hari agashami k'ubugenzacyaha gakorera i nyamirambo hariho n'imirongo wahamagara kugirango baguhe ubufasha itishyurwa.

Umudamu wambaye ishati y'umweru ndetse akinyeye n'igitenge hasi, biragaragara ko ari gusohoka mu modoka kuko hari umurinzi we umufunguriye umuryango. Umurinzi we yambaye imyenda ya gisirikare biragaragara ko ari abo hambere ku butegetsi bwa mbere.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame biragaragara ko ari gutanga ikiganiro kuko imbere ye hari indangururamajwi, yambaye amadarubindi y'umukara ndetse bigaragara ko hari n'abantu benshi bamuteze amatwi.

Abantu babiri umugabo n'umugore bigaragara ko bari mu cyumba cy'itora. Umugabo afite urupapuro amaze gutoreraho imbere ye hari akantu bashyiramo impapuro umuntu umaze gutora. Uyu mugabo yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro n'umukobwa nawe uhagaze hirya ye yambaye umupira w'umweru.

Abantu benshi harimo abagabo, n'abagore bigaragara ko bari gukora umurimo umwe, kuko bambaye imipira isa ndetse n'ingofero zisa, bose bafite impapuro mu ntoki bigaragara ko bari kuzibara cyangwa se bari kuzigenzura.

Abategarugori babiri bari ahantu hamwe umwe yambaye igitambaro mu mutwe ndetse yambaye n'umwenda ufite amabara y'umweru avanzemo utundi tubara, inyuma yaho hagaragara ko hari ibintu bifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara rijya gusa nk'umutuku.

Abagabo babiri ndetse n'abagore babiri bahagaze ku mabendera y'igihugu cy'u Rwanda bigaragara ko bari gutanga indahiro zabo kuko bamanitse ikiganza cy'iburyo. Abagabo bambaye amakote ndetse n'amapantaro bisa n'abagore nabo bakenyeye baniteye.

Abantu benshi bigaragara ko bari mu gikorwa kimwe cyo kwamamaza umukuru w'igihugu hari amagambo yanditse hejuru agaragara ngo umuturage ku isonga aya yakoreshwaga igihe bamamazaga uhagarariye FPR inkotanyi ari we nyakubahwa perezida Paul Kagame .

Umugabo wambaye ikote ndetse imbere y'ikote yambayemo ishati afite umusatsi mwinshi ndetse afite n'inyinya, uyu mugabo biragaragara ko ari perezida wo hambere w'u Rwanda uwo bitaga Juvenal Habyarimana.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Nyakubahwa Paul Kagame, yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse na karuvati. Yambaye n'amarinete. Biragaragara ko yishimye kuko ari kumwenyura, kandi biragaragara ko ari gutera urutambwe atambuka.

Umuhanda nyabagendwa ukoreshwa n'ibinyabiziga, harimo umuntu uri kugenda ku igare, yambaye umupira w'umweru ndetse n'inkweto z'umweru, hakurya y'umuhanda hari ipoto rirerire ririho itara rimurika umuhanda, ndetse no hejuru hari ikindi kiraro kigaragara ko naho haca undi muhanda.

Umuhanda urimo umumotari wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'amabara y'ubururu na kasike y'umuhondo, hirya y'umuhanda hahagaze abagabo babiri bari gutambuka bajya mu cyerekezo kimwe n'icyo umumotari arimo, imbere yabo imbere hari imodoka iri kugenda ndetse hari n'abandi bantu bari kugenda mu cyerekezo kimwe n'icy'iyo modoka, hari n'amazu y'ubucuruzi ziteganye.

Umuhanda wa kaburimo urimo imodoka yikorera imizigo harimo gaze ndetse hirya y'umuhanda hari n'ibiti, hari n'ipoto ry'amashanyarazi ririho itara, hino y'umuhanda hari rigori icamo amazi ndetse n'indabyo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga harimo ikinyabiziga cy'amapine atatu ndetse n'umunyegare utwaye umuntu, hakurya y'umuhanda hari umuntu w'umugabo uri gutambuka, hari n'ibiti birebire bikikije umuhanda.

Umuhanda urimo amapikipiki ari kugenda, ndetse hari n'ipikipiki ihagaze itariho umuntu ihagaze imbere y'umuryango, bigaragara ko ihagaze hafi yaho bacururiza, ipikipiki nta muntu ifite w'umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa, bigaragara ko impande z'umuhanda hari aho imodoka zihagarara umwanya munini hari imodoka itwara abantu bakeya ifite amabara y'umweru n'umuhondo ndetse amagambo yandikishije mu ibara ry'umutuku, imbere yayo na ahahagaze indi modoka ntoya ifite ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa, urimo imodoka nini yikorera imizigo biragaragara ko ipakiye umucanga, iyo modoka ifite ibara ry'umutuku ndetse impande zayo hari umunyegare nawe utwaye undi muntu, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire ndetse hari n'igiti kiriho itara riboneshereza umuhanda igihe cya nijoro.

Aho imodoka zihagarara zifata abantu zikuramo n'abandi zibajyana mu byerekezo bitandukanye, haparitsemo imodoka ntoya ni nini bigaragara ko zitegereje gufata abantu bajya mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga kigendera ku mapine atatu. Hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire bikikije umuhanda. Hakuno y'umuhanda hari regori icamo amazi igihe imvura yaguye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki ebyiri ziri kugenda mu cyerekezo kimwe, n'indi modoka nini yikoreye igikoresho bifashisha mu kubaka kinini, batwara ku modoka byose biri kujya mu cyerekezo kimwe, hirya y'umuhanda hari amazu bigaragara ko ari ay'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, impande y'imodoka naho hari moto itwaye umuntu hari n'umuntu wicaye ku igare uri kujya mu cyerekezo kimwe gitandukanye n'icy'imodoka, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire bigaragara ko bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'umweru, ndetse harimo n'abamotari babiri; umwe atwaye umuntu undi nta muntu atwaye bose bari mu cyerekezo kimwe. Hakurya y'umuhanda hari umuntu wikoreye imifuka ibiri bigaragara ko harimo ibintu yikoreye. Hakuno y'umuhanda hari undi uri kuri terefone.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini ishinzwe gutwara ibintu biremereye imodoka ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, hafi aho hari ukuboko k'umuntu kugaragara ko ari umuntu uri gutambuka, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire bikikije uwo muhanda.

Imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange ,ivana abantu ahantu hamwe ibajyana ahandi mu buryo bwa rusange ,biragaragara ko ihagaze ahantu itegerereza gufata abantu ,hari umugabo wambaye ibisa uri kuyitambuka impande.

Imodoka nini ya fuso yagenewe gutwara ibintu biremereye, ipakiye umucanga wuzuye no hejuru iri mu cyerekezo kimwe n'indi izamuka ifite aho bapakirira hasa ubururu, nayo iri mu kindi cyerekezo biri mu muhanda hirya y'umuhanda hari itara rirerire ricanira umuhanda hari n'ibiti birebire bikikije umuhanda.

Abamotari babiri bari kujya mu cyerekezo kimwe, umumotari umwe ahetse umumama undi ahetse umupapa. Hirya yabo hari imodoka iri kuzamuka ndetse hari n'undi muntu wambaye isarubeti ufite ingofani ikozwe mu biti, nawe ari kuyisunika azamuka ahagaze hagati y'izo binyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imirongo yera yerekana ko ariho abanyamaguru bambukira, hari umumotari wambaye kasike y'umuhondo ndetse n'umugenzi ahetse nawe yambaye kasike y'umuhondo, bagiye guhagarara kugira ngo barebe ko hari umunyamaguru wambuka.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo imodoka nto itwara abantu batarenze bane ndetse harimo n'amapikipiki. Harimo umuntu uri gusunika igare ririho imizigo y'imifuka, ari kuyisunika ajya mu kindi cyerekezo.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini ya fuso itwara ibicuruzwa yakoreye itanka, bigaragara ko itwaye ibintu bifatwa n'inkongi y'umuriro, inyuma yayo, hari abamotari nabo bari mu cyerekezo kimwe n'iyi modoka, hirya yaho hari ibiti bigaragara ko bikikije umuhanda.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka y'umweru ndetse hari n'indi iri inyuma yayo nayo isa nk'umweru, harimo abantu benshi bigaragara ko ari ahantu hakorerwa ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga, harimo ikinyabiziga gifite amapine atatu ndetse hirya y'umuhanda hari n'abagabo babiri bari kugenda, imbere y'abo bagabo bashinze igiti cyo ku muhanda kiriho amatara acanira umuhanda mu gihe cya n'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'amapine atatu itwara imizigo ndetse n'indi pikipiki iri kuva mu cyerekezo kimwe hakurya y'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru hahagaze n'umugabo wambaye ikote ry'umuhondo impande ye hari ipoto ry'amashanyarazi ndetse hari n'ibiti hakurya y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri, imodoka imwe ni imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange isa umweru iri kujya mu cyerekezo kimwe, indi ni intoya nayo itwara abantu nayo iri kujya mu kindi cyerekezo, hino y'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru ndetse hari n'umuferege ucamo amazi, hakurya y'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, urimo imodoka itwara imizigo, Harimo na moto nyinshi harimo izitwaye abantu ndetse n'izidatwaye abantu, zose ziri kujya mu cyerekezo kimwe. Hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire, ndetse hari n'itara rirerire rimukira umuhanda mu gihe cya nijoro.

Imodoka nyinshi zitandukanye zitwara abantu mu buryo bwa rusange zihagaze ahantu hamwe biragaragara ko ziri gufata abantu zibajyana mu gace kamwe zibavana ahandi. Harimo imodoka nini ndetse n'iziringaniye.

Ipikipiki iri mumuhanda itwaye umugenzi uyitwaye yambaye ingofero iranga abatwaye moto y'umutuku ndetse numugenzi yambaye ingofero yabagenzi y'umukara hirya y'umuhanda hari ubusitani burimo indabo nziza ndetse nibiti birebire .

Imodoka nini ifite amabara y'ubururu n'umweru ikoreshwa mu mujyi wa Kigali mu buryo bwo gutwara abantu rusange. Aho iri biragaragara ko iparitse ariko harangiritse, hari ibinogo biretsemo n'amazi. Hakurya yaho turahareba ibiti bigize ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse n'amapikipiki, harimo imodoka nini isa nk'umutuku, ishinzwe gutwara imizigo iremereye, harimo amapikipiki menshi ari kujya mu cyerekezo kimwe ndetse ku ruhande rw'umuhanda hari n'umunyegare uri kugenda ku igare wenyine.

Umuhanda wa kaburimbo hashushanyijemo imirongo yera yerekana aho abanyamaguru bambukira ,hari umumotari utwaye umugenzi umumotari yambaye ingofero isa nk'umutuku ndetse n'umugenzi atwaye nawe yambaye ingofero isa nk'umuhondo hirya y'umuhanda hari ibiti birebire ndetse hari n'igiti kiriho amatara amuririka umuhanda mugihe cya n'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikorera imizigo ya fuso, imbere yayo hari agatoyota gaparitse, imbere yayo hari inyubako y'ivuriro bigaragara ko bavuriramo abantu, ndetse n'indi nyubako yubakishije amabati y'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga kinini cyo mu bwoko bwa fuso gitwara imizigo iremereye, kiri kujya mu kerekezo kimwe, hakurya y'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini itwara ibicuruzwa byinshi, imbere yayo hari indi moto hari n'imodoka ifite ibara ry'umutuku, nayo iri kuva mu kindi cyerekezo, hari ibiti bikikije umuhanda ndetse binini, hakuno y'umuhanda hari umuyoboro w'amazi ava mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini itwara ibiremereye ipakiye umucanga ifite amabara yumutuku ndetse n'umweru biragaragara ko hakurya y'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda .

Imodoka nini itwara ibicuruzwa biremereye, ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, amagambo yanditse kuri iyi modoka yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse hari n'andi imbere ku modoka yandikishijwe ibara ry'umweru, hakurya y'umuhanda hari ibiti ndetse hakurya hari naho amazi aca ku muhanda.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, harimo imodoka itwara abantu kuburyo bwa rusange ifite ibara ry'umweru, ku ruhande rwayo hahagaze umuhungu ufite indobo mu ntoki, yambaye ipantaro isa nk'icyatsi ndetse n'umupira w'umukara n'ingofero, hirya y'imodoka n'aho hahagaze izindi modoka ebyiri na zo zitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imirongo ishushanyije y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira. Hari ikamyo yikoreye umucanga ifite ibara ry'umutuku, ndetse imbere yayo hari n'umunyegare nawe uri kugenda ku igare.

Umuhanda wa kaburimbo ucibwamo n'ibinyabiziga harimo ibinyabiziga bitwara imizigo, harimo imodoka ebyiri imodoka imwe ifite shitingi isa nk'ubururu iziritse cyane ihambiriye n'indi modoka ndende bigaragara ko iri kugenda nayo ifite imibare iyiranga.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye: harimo imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange, ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi, ndetse harimo n'amapikipiki ari kugenda impande z'iyo modoka nini itwara abantu. Hakurya y'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru ndetse hari n'amazu akikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru harimo abanyamaguru bari kugenda, harimo n'amagare, harimo umunyamaguru w'umugabo uri kugenda wambaye agapira k'umweru karimo utubara tw'ubururu dutambitse ndetse n'ipantaro y'umukara, hirya ye hari ifoto rirerire ririho itara ricana ku muhanda.

Mu muhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga harimo imodoka nini itwara ibicuruzwa ndetse n'ibindi bintu biremereye bifite amabara y'umutuku ndetse inyuma yayo hari indi modoka na yo itwara abantu mu buryo bwa rusange ifite amabara y'umuhondo hakurya y'umuhanda hari inyubako ndende ifite irangi ry'umweru ndetse munsi y'inyubako haparitse indi modoka.

Moto ebyiri zihetse abantu ziri mukerekezo kimwe mu muhanda wa kaburimbo, indi modoka hirya yazo hari ipakiye imizigo ya Fuso, hakurya y'umuhanda hari ibiti n'itara n'ipironi ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru yikoreye imizigo, bigaragara ko iri kugenda. Hirya y'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru, hirya y'umuhanda hari ibiti ndetse birebire ubona ko bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse na moto imodoka isa umweru, ni imodoka ndende itwara abagenzi rusange hino y'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru ndetse impande hari na rigore icamo amazi igihe cy'imvura.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo itaremereye cyane ifite ibara ry'umweru ndetse inyuma yayo hari amapikipiki ,nayo ari kugenda hakurya y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru hari n'amapoto ariho amatara amurika mu muhanda mu gihe cya nijoro .

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bibiri harimo ikinyabiziga gitwara imizigo gifite ibara ry'umutuku harimo n'indi modoka nto itwara abantu nayo iri kujya mu kindi cyerekezo hakurya y'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda ndetse hari n'ipoto rirerire ririho itara rimurikira umuhanda igihe cya nijoro.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo ibinyabiziga ,harimo imodoka itwara abantu ku buryo bwa rusange ndetse n'indi modoka ntoya .Zose ziri mu icyerekezo kimwe ndetse hakurya yazo hari amazu bigaragara ko ari ay'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya rukururana yikoreye kontineri ebyiri, ikote imwe isa nk'ibara ry'umweru indi isa nk'ibara ry'icyatsi, imbere y'iyo modoka hari abamotari babiri bari kugenda ndetse mu muhanda bigaragara ko bigaragara ko wagira ngo hamenetse amavuta hafi y'imirongo y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara abantu m'uburyo bwa rusange ifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, hirya mu kindi cyerekezo cy'umuhanda hari abamotari batwaye abantu kuri moto, hakurya y'umuhanda kunzira y'abanyamaguru harimo abantu babiri bari gutambuka, hakurya y'umuhanda hari n'ibiti bikikije umuhanda.

Moto iparitse ikoresha umuriro w'amashanyarazi, ifite umusego w'umukara ndetse n'ingofero y'abagenzi y'umutuku. Hirya yayo naho haparitse indi moto iriho ingofero ebyiri, hirya yazo hari moto nyinshi bigaragara ko ari aho bazikorera, mu muhanda harimo abantu benshi barimo gutambuka bagenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igare rihetse umuntu uri kugenda ndetse n'imodoka nini y'umweru ifite aho batwarira imizigo, hirya y'umuhanda hari ibiti birebire bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri, imodoka imwe ya dayihatso bigaragako iri kujya mu cyerekezo gitandiukanye n'ikindi. Imodoka zose zisa umweru ndetse hagati yazo hari gucamo umumotari uhetse umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndende ya rukururana, biragaragara ko ipakiye imizigo iremereye, hakurya y'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda ndetse hari n'ipoto rirerire ririho itara rimurika umuhanda igihe cya nijoro.

Imodoka ntoya yikorera imizigo itarengeje toni eshanu, ndetse imbere yaho hari indi modoka nayo yikorera imizigo. Hakurya y'umuhanda hari icyapa cyerekana ko ari aho imodoka zihagarara. Hari n'abandi bantu babiri bari guturuka mu kindi cyerekezo bari mu nzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga biri kugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo ipikipiki n'imodoka ndetse n'umunyegare, hakurya y'umuhanda hari ibiti ndetse harakurotiriye, hino y'umuhanda mu nzira y'abanyamaguru, hari umumama uhagaze ufite indobo irimo ibisheke.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndende isa umweru itwara imizigo, imbere iruhande rw'iyo modoka hari umunyonzi uri ku igare, hirya y'umuhanda hari ibiti birebire bikikije umuhanda ndetse hino y'umuhanda hari na rigore inyuramo amazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini itwara imizigo ndetse inyuma yayo hari ipikipiki yicayeho umuntu, bigaragara ko biri kugenda mu cyerekezo kimwe, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire bikikije umuhanda, hakuno y'umuhanda hari umumama ufite indobo irimo ibisheke.

Imodoka itwara abantu ifite amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, ifite n'imibare iranga ikinyabiziga, hirya yayo hari indi modoka na yo itwara abantu mu buryo bwa rusange nini, hafi yaho hahagaze umugabo, hari n'undi mugabo uhagaze inyuma ufite imbago bigaragara ko afite ubumuga.

Abantu batatu bari kumagare harimo abana babiri ndetse inyuma yabo hari umugabo umwe nawe wambaye ingofero ari ku igare, hirya yabo hahagaze abagabo babiri umwe wambaye umupira w'umutuku n'pantaro y'umukara.

Ahantu hubatse neza hasakaye harimo imyanya abantu bicara, bigaragara ko ari ahantu abantu bicara hatwikiriye iyo bari kureba umupira, biragaragara ko ari ahantu hubatse ku kibuga cy'umupira w'amaguru.

Ikibuga bakiniramo imikino y'amaboko, gifite n'imyanya abafana bicaramo itwikiriye, mu kibuga ibara rihari ni icyatsi, hashushanyijemo imirongo hakoreshejwe ibara ry'umweru, hirya y'aho abantu bicara, hari ikindi kibuga na cyo cy'umupira w'amaguru.

Ikibuga cy'umupira kigaragara ko ari ikibuga cy'umupira w'amaguru hirya yacyo hari ahantu abantu bicara hasakaye hari n'amatara acanira ikibuga ndetse hari n'ibiti inyuma y'aho abantu bicara bigaragara ko ari ahantu abantu baba bicaye iyo bari kureba umupira.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru. Hirya y'iki kibuga biragaragara ko hari ibindi bibuga bikinirwaho imikino y'amaboko ndetse hari n'aho abantu baje kureba umupira baba bicaye hasakaye. Hari ibiti bikikije iki kibuga ndetse hari n'amapoto ariho amatara amurikira iki kibuga mu gihe hari kubera imikino mu masaha ya nimugoroba cyangwa se ya nijoro.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni mweru ikirango ni umukara. Iki cyapa gishyirwa ku muhanda kugira ngo cyereke abakoresha umuhanda ko kuhahagarara bitemewe.

Umuhanda wa kaburimbo n'umuntu uhagaze ku nzira y'abanyamaguru wambaye ipantaro y'umukara n'umupira ndetse ufite n'igikapu cy'umukara, hejuru ye hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kerekana akarere ka Rusizi.

Umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa hariho icyapa gishyirwa ku mihanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ikirango mu ibara ry'umukara iki cyapa cyerekana ko hari umuhanda usuka mu wundi gishyirwa ku muhanda kugira ngo bamenyeshe abayobozi b'ikinyabiziga ko aho bagiye kugera hari umuhanda wisuka mu wundi kugira ngo bagende gake hataba impanuka .

Icyapa cy'inyunge, iki cyapa gishyirwa ku muhanda. Icya mbere kiri hejuru kigaragaza ko imbere ari aho banyura bazengurutse ndetse gifite ibara ry'umuhondo, ariko igishushanyo kigaragara mu ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru, ikirango mu ibara ry'umukara, byanditse umubare mirongo itandatu, iki cyapa kereka abakoresha umuhanda, cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga ko utemerewe kugendera ku muvuduko urengeje mirongo itandatu.

Icyapa cya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku ndetse n'umweru gifite ubuso bw'umuhondo ikirango kiri m'ibara ry'umukara cyerekana ko aho hari imirimo iri kuhakorerwa y'amaboko.

Inkingi ebyiri zifite amabara y'umweru n'umukara zifashe ku kindi cyapa kigaragara ko ari igororero rya Nyamagabe, hirya y'aho hubatse inzu y'amatafari ahiye afite inzugi z'umweru ndetse hari umuhanda w'igitaka winjira muri iryo gororero.

Icyapa cya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'umweru ndetse ishusho y'ubururu, ikarango ni umweru, cyanditse mu nyuguti ya P bigaragara ko bavuze ko hari parikingi.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara, iki cyapa cyerekana ko mu muhanda hataringaniye. cyangwa se harimo imigunguzi mu muhanda nyabagendwa.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ikirango mu ibara ry'umukara, iki cyapa cyereka abakoresha umuhanda ko hari umuhanda winjira mu wundi, iki cyapa gishyirwa ku muhanda kugira ngo kiburire abashoferi ndetse n'abandi bantu bakoresha umuhanda, kwirinda impanuka.

Icyapa cya mpandeshatu, cy' umuzenguruko w' umutuku, ubuso bw' umweru, ikirango cy' umukara, kerekanako hari umuhanda uri gusuka muwundi muhanda mumunini ukoreshwa n' i binyabiziga bigenda mumuhanda.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Iki cyapa cyerekana ko aho hantu hari gukorerwa imirimo y'amaboko, iyo umushoferi akibonye cyangwa undi muntu amenya ko aho hantu ageze hakorerwa imirimo y'amaboko.

Ibyapa byo ku muhanda, biba bikikije umuhanda byerekana ko abantu bari gutambuka, icyapa kiri kwaka kiri kubara umubare makumyabiri cyerekana ko harimo abantu bari gutambuka, hirya y'icyapa hari ipoto ry'amashanyarazi, hirya y'ipoto ry'amashanyarazi hari ibiti birebire.

Umuhanda nyabagendwa ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye. Impande z'uyu muhanda hari icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, mu kirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa cyerekana abashoferi b'ibinyabiziga ko batemerewe kugendera ku muvuduko urengeje mirongo itandatu.

Umuhanda wa kaburimbo impande z'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru ndetse hari n'ibyapa bibiri, icyapa kimwe kigaragaza ko gukatira iburyo bitemewe, ikindi cyapa kigaragaza ko aho hantu hatanyurwa hirya y'umuhanda hari ubusitani harimo ibyatsi ndetse n'ibiti.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku ubuso ni umweru ikirango kiri muri icyo cyapa ni umukara kerekana ko hari umuhanda uri mu wundi uri kujya mu cyerekezo kimwe.

Umuhanda wa kaburimbo uriho ibyapa bibiri. Icyapa cya mbere gifite ishusho y'umuzenguruko, ubuso bw'umweru ndetse ikirango mu ibara ry'umukara, cyerekana ko gukatira ibumoso bitemewe. Ikindi cyapa na cyo gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, cyerekana ko gukata usubira mu cyerekezo uvuyemo na byo bitemewe.

Icyapa gifite ishusho y’uruziga umuzenguruko n’umutuku ubuso n’umweru ikirango mu ibara ry’umukara. Iki cyapa cyereka abashoferi ko umuhanda ukoreshwa ufite ibisate bibiri byo kunyurwamo n’ibinyabiziga.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango mu ibara ry'umukara, iki cyapa cyereka abakoresha umuhanda cg se abashoferi b'ibinyabiziga ko hano hantu hatemerewe kunyurwa n'ibinyabiziga ibyo aribyo byose.

Umuhanda wa kaburimbo hari n'ibyapa, icyapa kerekana akarere ka Rusizi ndetse hari n'imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira hakurya y'umuhanda hari ishyamba hari n'amapoto y'amashanyarazi ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uriho ibyapa hari icyapa kigaragaza ko umuhanda unyerera, gifite ishusho ya mpande enye ndetse kirimo ikirango cy'umukara cyerekana ko imodoka harimo ubunyerere hirya y'umuhanda hari n'ibiti ndetse hari n'amazu hari inzu isa umweru hari n'ipoto ricana amatara.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara ndetse n'ikindi kirango cy'umutuku, iki cyapa kereka abashoferi cyangwa se abakoresha umuhanda ko kunyuranaho bitemewe.

Icyapa gishyirwa ku muhanda cya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso n'umweru, ikirango n'umukara cyerekana ko hari abantu batambuka hari inzira y'abanyamaguru ibyerekana, abashoferi bakoresha umuhanda kugirango ngo bitondere ko aho hantu haca abantu bagendesha n'amaguru.

Icyapa cyo ku muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu; umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umuhondo, ikirango ni umukara. Cyerekana ko ari aho abanyamaguru bambukira igihe cyo mu muhanda.

Icyapa gishyirwa ku kumuhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru mu kirango cy'umukara. Iki cyapa cyereka abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa se abandi bantu bakoresha umuhanda ko bagiye kugera aho banyura bazengurutse.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku ubuso ni umweru ikirango ni umukara. Iki cyapa cyerekana ko ugiye kugera mu isangano ry'umuhanda, aho imihanda ihurira inyuraniramo.

Icyapa cyerekana agace cyangwa se ahantu hatuwe. Iki cyapa gishyirwa ku mihanda cyane cyane gikorwa mu mijyi itandukanye kugira ngo kiyobore abantu ahantu bashaka kujya, inyuma y'icyapa hari ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi.

Inyubako ndende, igereretse inshuro ebyiri, bigaragara ko ari hoteri. Iteye amarange y'umweru ndetse n'ubururu. Ifite inzugi z'umukara, zifite n'ibirahure byijimye by'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto iri kugenda mu cyerekezo kimwe n'imodoka ziri kugenda mu kindi kerekezo. Hakurya y'umuhanda harI umuntu uhetse ibage bisa nkaho ari gutambuka ndetse harI inyubako igeretse gatatu, bigaragara ko ari inyubako y'ubucuruzi.

Inzu ifite ibara ry'umweru, ikikijwe n'urugo rwubakishijwe amatafari ahiye, ndetse inyuma y'urwo rugo hari ibiti ndetse n'ibyatsi hari n'ijambo ryanditse mu kinyarwanda berekana ko ar' i kanombe

Amazu menshi bigaragara ko harimo ay'imiturire ndetse n'ay'ubucuruzi, hari n'ibiti bihateye, hari n'urutsinga rutwara umuriro w'amashanyarazi, hari amagambo yanditse mu kinyarwanda ngo Kimironko kwanayinzira bishatse kwerekana ko aka gace bari kutwereka ari Kimironko kwanayinzira.

Abantu babiri bicaye ahantu bigaragara ko ari aho barira, imbere y'aho bicaye hari ibikoresho bifashisha mu gukaraba gifite indobo y'ubururu ndetse n'ibasi y'icyatsi hejuru hateretse isabune isukika iri mu gacupa k'amazi bigaragara ko mbere yo khinjira ubanza ugakaraba.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ntoya itwara abantu, hakurya y'umuhanda hari amazu agaragara ko ari ay'ubucuruzi, hari n'inzu ndende y'igorofa bigaragara ko ari nayo bayikoreramo ubucuruzi hino y'inzu hari ibiti ndetse hari n'amatara yo ku muhanda n'ipoto ry'amashanyarazi.

Amazu y'ubucuruzi, imbere y'aho hari aho imodoka zihagarara hashashe amabuye ahiye, ndetse biragaragara ko aka gace bahita ku cyamitsingi giherereye i Remera, hari n'aho bakusanyiriza amata.

Umugabo uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru, hirya ye mu muhanda nyabagendwa harimo imodoka y'umweru ndetse n'amapikipiki imbere y'imodoka. Hari n'imashini ishinzwe kongera no kugabanya umuriro w'amashanyarazi, hirya yaho hari imodoka ihagaze y'umukara.

Inzu bigaragara ko ituwemo n'abantu ifite amabati y'umutuku, ndetse hari n'urugo rwubakishije amatafari rukikije iyo nzu, hejuru y'inzu hari insinga zitwara amashanyarazi, ndetse hakurya y'iyo nzu biragaragara ko hatuwe n'abandi bantu benshi batandukanye.

Inyubako ndende zegeranye zigaragara ko zikorerwamo imirimo y'ubucuruzi, imwe yubakishije amatafari ahiye ndetse hafi y'izo nyubako hasi hari haparitse imodoka, harimo imodoka isa nk'umukara, biragaragara ko izi nyubako ziri mu gace kitwa i Remera.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki ari kugenda, ipikipiki imwe itwaye umuntu indi nta muntu itwaye, hakurya y'umuhanda hari inyubako nini bigaragara ko ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi, hafi y'iyo nyubako haparitse imodoka z'umweru.

Inzu nini yubatse isakaje amategura, ndetse ifite n'amarido hanze. Imbere y'inzu haparitse imodoka ndetse iyi nzu isize ibara ry'umukara handitseho ijambo marato bigaragara ko iyi nzu ariko hitwa.

Ibiti birebir biteye hirya y'umuhanda bigaragara ko iyo ari gihe cy'izuba haba harimo agacucu hirya yabyo hicaye abantu babiri uwambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umupira w'umweru baricaye urabona ko nabo wugamye izuba munsi y'ibyo biti.

Umuhanda nyabagendwa ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki atwaye abantu ndetse n'adatwaye abantu, hirya y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru bigaragara ko ari aho abanyamaguru bagendera kugira ngo badatera impanuka mu muhanda.

Mu muhanda nyabagendwa ukoreshwa n'ibinyabiziga, uyu muhanda biragaragara ko hubatsemo cya gikoresho polisi yifashisha igenzura umuvuduko ibinyabiziga biriho ndetse waba ufite umuvuduko muremure bikagufotora bakaguhana, harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali.

Umuhanda nyabagendwa, uyu muhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo ahashushanyije imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, ya mirongo iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ahageze arabanza akareba hakurya y'umuhanda ko nta munyamaguru uhari ushaka kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara ko wijimye, wagirango ikirere gishaka gutanga imvura, harimo moto ziri kuzamuka ndetse n' undi mugabo uri kureba ko yakambuka, imbere ye hari ipoto ry' amatara, hakurya y' umuhanda hari ibiti ndetse n' Indi nyubako ndende.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse mu muhanda hagati hashushanyijwemo imirongo ijya kuba nk'umuhondo, iyi mirongo ishyirwa mu muhanda kugira ngo itandukanye ibisate by'umuhanda, buri muyobozi w'ikinyabiziga amenyenye igisate cye agomba kugenderamo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga hari ipikipiki iri kugenda ndetse mu kindi gisate cy'umuhanda harimo imodoka zitwara imizigo iremereye, ndetse hari n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibimenyetso bishushanyije mu muhanda byerekana gukomeza imbere, ikindi kimenyetso cyerekana gukata iburyo, harimo imodoka y'umukara ndetse na moto imbere y'imodoka, byombi biri kujya mu cyerekezo kimwe.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda wa kaburimo, ziri kujya mu byerekezo bitandukanye. Imodoka imwe y'umutuku ndetse n'indi y'umweru iri kuzamuka. Hakurya y'umuhanda hahinze, hari ibiti ndetse hari n'ipironi y'amatara yaka ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga harimo aho ibinyabiziga bica bizengurutse hahinzemo indabyo ndetse n'ibindi biti, hari umumotari uhetse umuntu uri gutwara n'indi modoka iri hirya iri kujya mu kindi cyerekezo, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire ndetse hari n'ipoto y'amatara rihagaze inyumaka m'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo inzira y'abanyamaguru igaragazwa n'imirongo y'umweru ishushanyije .Ndetse kuri uyu muhanda hari n'ibimenyetso byaka byerekana ko abantu bagiye gutambuka cyangwa ibinyabiziga aribyo bigiye gutambuka. Ibi bimenyetso bifasha abantu cyangwa se abashoferi kugirango bamenye ugiye kugenda mbere mu buryo bwo kwirinda impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri kumanuka, umuhanda hariho amatara amurikira umuhanda, hirya y'umuhanda hashinze icyapa kigarura urumuri ndetse hari n'ubusitani, hari ibiti birebire bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo irushanyije y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, ndetse muri uwo muhanda hari ibimenyetso byaka byerekana ko abanyamaguru aribo bagenewe kwambuka cgangwa se ibinyabiziga aribyo bigenewe kwambuka.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, ndetse harimo n'abanyamaguru bagera kuri bane harimo abagabo batatu n'umudamu umwe. Bose bari kwambuka hirya yabo hari amapikipiki ahetse abantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hakurya y'umuhanda hari amazu y'amagarofa y'ubucuruzi, hari n'ibiti ndetse hafi yuwo muhanda hari ibimetso byaka byerekana abantu ko bemerewe gutambuka cyangwa se ko ibinyabiziga aribyo byemerewe gutambuka.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse biragaragara ko uyu muhanda harimo aho baca bazengurutse. Hakurya y'umuhanda har’ibiti bikikije umuhanda ndetse hari n'ibyatsi bikikije umuhanda. Harimo ibinyabiziga: ipikipiki ndetse n'igare.

Umuhanda wa kaburimbo hari imirongo y'umweru aho abanyamaguru bambukira bigaragara ko ariho hagenwe ko abanyamaguru bazajya bambukira, bene uyu muhanda hari inzira y'abanyamaguru, hakurya y'umuhanda hari ibiti hari n'imodoka mu muhanda ziri kugenda ndetse na moto.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga cy'imitende ibiri hicayeho umuhungu wambaye umupira w'umweru ndetse n'inkweto z'umweru yambaye n'amadarubindi ndetse hejuru y'umuhanda hari undi muhanda uca hejuru ku kiraro na ho ujya mu kindi cyerekezo.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo ndetse hejuru y'uyu muhanda haca undi muhanda nawo umeze nkaho wubatse ku kiraro, kuri uyu umuhanda hubatse urukuta runini rukomeye rw'amabuye kugira ngo uwo hejuru utazariduka ngo ugwe mu wo hasi.

Mu muhanda wa kaburimbo hari imirongo yera yerekana aho abanyamaguru bambukira, harimo abantu bari kwambuka, imodoka na moto byahagaze bitegereje ko abantu bambuka ngo bave mu nzira na byo bibone kugenda, hakurya y'umuhanda hari ibiti ndetse hari n'indi modoka ya kwasiteri iri kugenda.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, uyu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibitwara abantu ku buryo bwa rusange ndetse harimo n'ibitwara imizigo, biragaragara ko hari ibitwara imizigo biri kujya mu kindi cyerekezo.

Umuhanda munini wa kaburimbo nyabagendwa harimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hari n'umunyegare uhagaze ku muhanda bigaragara ko ari gushaka abagenzi yatwara hari umuhanda usukira mu wundi ndetse hari n'amapato ariho insinga z'amashanyarazi akaba ariho n'amatara amukira umuhanda mu gihe cya n'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga ndetse n'umuntu utwaye igare hirya y'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru, ndetse hari n'amapoto maremare ariho amatara acanira umuhanda mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki iri kugenda ihetse umuntu. Umumotari yambaye kasike y'umutuku ndetse n'umuntu atwaye na we yambaye kasike y'umutuku. Hakurya y'umuhanda hari ibiti ndetse hari n'inyubako. Hari amapoto y'amashanyarazi ari hafi y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ucanyweho n'amatara yo k'umuhanda bigaragara ko ari n'ijoro, umuhanda hakurya y'umuhanda hari inyubako ndende nazo zirimo amatara azifasha kubonesha mu gihe cya n'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru. Hari n'aho imodoka zihagarara zigiye gufata abagenzi. Hirya y'umuhanda hari inzu abagenzi bahagararamo, iyo bategereje ko imodoka zihagera ngo bakomeze urugendo rwabo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo ipikipiki iri kugenda ndetse hari n'igare riparitse impande y'akayira k'abanyamaguru hari amapoto maramare atwaye umuriro w'amashanyarazi ndetse ariho n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro.

Umuhanda w'ibitaka bigaragara ko udakoze neza kuko urimo amabuye hirya y'umuhanda hari inyubako zituwemo n'abantu ndetse no hino y'umuhanda hari na rigo icamo amazi, hari igipangu gisa nki'cyatsi bigaragara ko cyegereye umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, harimo amapikipiki ndetse n'imodoka, harimo ibiti biri iruhande rw'umuhanda ndetse ku muhanda hirya hari n'undi muhanda uca hejuru ku kiraro. Hari amapoto ashinze hafi y'umuhanda ariho amatara amurika igihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo yera aho abanyamaguru bambukira hari abana bambaye imipira y'umuhondo bigaragara ko bari kujya ku ishuri hahagaze moto itegereje ko abo bana bamara kwambuka mu muhanda hari n'icyapa kibyerekana ko ari aho abantu bambukira.

Umuhanda mugari mu isangano ry' imihanda, aho harimo moto ndetse n' imodoka harimo n' ibyapa by' umuhanda byaka byerekana ikerekezo kemerewe gutambuka mbere ndetse n' ibindi byuma by' ikoranabuhanga byakorewe mugutanga amafoto y' ibinyabiziga bitakurikije amategeko.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo yera yerekana aho abanyamaguru bambukira ndetse kuri uwo muhanda hari n'ibimenyetso bimurika, byerekana ko hagezweho abantu abanyamaguru aribo bagiye kwambuka, biyobora ibinyabiziga ndetse bikayobora n'abanyamaguru kugira ngo hataba impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imirongo yera abanyamaguru bambukiramo. Hari n'ibirango byaka biyobora abashoferi ndetse n'abanyamaguru bibereka ko bemerewe gutambuka cyangwa batemerewe gutambuka kugira ngo birinde ko habaho impanuka.